Umuntu wambaye ga mu ntoki ingofero yapfutse umunwa amazuru n'amaso, arimo gutera umuti mu bihingwa.

Aha hari abagabo babiri barimo kugenda batera umuti mu bihingwa.

Uyu ni umurima w'ibigori harimo umugabo wambaye sarubeti y'umukara, ga z'umutuku, agapfukamunwa, ahetse ikijerekani cy'umuhondo bakoresha batera imiti mu myaka arimo gutera umuti mu bigori.

Umurima w'ibigori harimo abantu benshi, harimo abagabo babiri bambaye ibisarubeti by'ubururu bari kugenda batera umuti mu bigori. Hakurya y'ibi bigori bahinze ishyamba.

Umurima w'ibigori harimo umugabo urimo gutera umuti, yambaye umupira w'ubururu ipantaro y'umukara, gamu ntoki, ndetse ahetse n'ikijerekani bakoresha batera umuti.

Umurima w'ibigori harimo umugabo wambaye isarubeti y'umukara, ga z'umutuku mu ntoki, yambaye agapfukamunwa k'umukara, arimo gutera umuti mu bigori, umuti batera mu bigori ubirinda kuzamo udusimba.

Abantu bahagaze hamwe, bambaye imipira y'icyatsi, harimo umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, imbere yabo hari ameza atetseho amacupa y'imiti, hari n'umugore uri kuruhande, ufite inda nini, yambaye baji.

Uyu ni umurima uhinzemo ingano, harimo umugabo uhetse ikijerekani bakoresha batera umuti mu myaka, yambaye ikintu cyamupfutse umunwa n'amazuru ari kugenda atera umuti muri uyu murima.

Aha ni mu ndabo hahagazemo umuntu urimo gutera umuti, yambaye itaburiya y'umweru, ga mu ntoki, ingofero, amarinete ndetse n'agapfukamunwa.

Umugabo uri mu murima uhetse kiijerekani arimo kugenda atera umuti mu bihingwa, hafi y'uyu mugabo kandi, hari umukobwa uri kugenda nawe ahetse ikijerekani mu mugongo.

Igishanga harimo ikiyaga, muri iki kiyaga harimo inyamaswa zigiye zitandukanye, impande yacyo hari abantu bahagaze barimo kureba mui icyo kiyaga, hafi y'aho kandi hari ishyamba ririmo ibiti byinshi byegeranye.

Umukobwa uhagaze mu mazi wambaye isarubeti arimo kuroba, ku nkengero z'aya mazi hateyeho ibiti.

Umuririma w'icyayi hari kugendamo abantu bane bifubitse ibitambaro mu mutwe kandi bahetse mu mugongo ibitebo bakoresha basarura icyayi.

Aha ni mu murima w'ikawa harimo abantu batatu, babiri bambaye imipira y'umukara, undi umwe ahagaze imbere yambaye ingofero afite urubuto rw'ikawa mu ntoki, hafi y'ikawa kandi iteye ibiti.

Aka ni agati k'ikawa kariho ikawa nyinshi z'icyatsi, hariho n'amababi y'icyatsi.

Icyayi harimo abantu benshi barimo kugisarura, bahetse udutebo bari kugenda bashyiramo icyayi basaruye.

Umu murima w'ikawa, harimo abagore barimo gusarura ikawa, bazishyira mu ndobo.

Umurima w'ikawa, harimo ikawa z'umutuku n'izicyatsi, harimo umuntu urimo guso ikawa.

Abagore bane bambaye udupfukamunwa, bahagaze ku murongo barimo gukora mu ikawa y'umutuku, impande yabo hari ubusitani buteyemo indabo, hari inyubako ifite urugi rw'umutuku, impande y'iyi nyubako hari ikigega cy'umukara.

Umurima w'icyayi harimo umugore uri kugenda afite akababi k'icyayi mu kanwa, impande y'icyayi kandi hahinze ishyamba.

Mu murima w'icyayi harimo abantu bari gusarura icyayi, hari umusore ukenyeye ishashi, ahetse igitebo, ari kugenda ashyiramo icyayi.

Aya ni amacupa arimo imiti igiye itandukanye, amacupa amwe afite imifuniko y'umutuku, andi afite imifuniko y'icyatsi, andi macupa ari mu ibara ry'umuhondo, icyatsi, hariho ibipapuro byanditseho amagambo.

Aha hari amacupa aagiye atandukanye, hari ay'umweru, hari iry'umuhondo rifite umufuniko utukura, impande y'iryo cupa ry'umuhondo hateretse amvirope, hafi yaho hari imifuka ibiri ndetse hari n'agakarito k'umutuku.

Inka zirimo kugenda, inka zimwe zambaye amahena y'icyatsi, zirikumwe n'abagabo babiri, umwe imbere, undi ari hagati, hafi y'ahantu inka ziri kandi hari nshyamba.

Umugore wambaye umupira w'ubururu, wipfutse igitambaro, afite ibiho bibiri mu ntoki, birimo imbuto, hafi ye hariru umuntu urimo kugenda, hateye n'igiti.

Umugabo uri mu murima, asa nk'uwicaye, arimo gutera urubuto.

Abantu barimo kugenda mu murima, bikoreye imbuto, bamwe bazikoreye mu mabase, abandi mu mifuka, imbere yabo hari umugabo uri gusunika igare na we atwayeho imbuto.

Abantu bari mu busitani bunamye bari gutera igiti, impande yabo hari indabo n'umukobwa wambaye umupira w'umuhondo urimo kuza abasanga.

Abagore babiri barimo kugenda umwe afite isuka ku rutugu, uwundi yikoreye igiti afite n'ibindi mu ntoki, hakurya yaba bagore bari kugenda hateye ibiti.

Igiti k'ipapayi kiriho amapapayi menshi, impande y'icyo giti hari abantu barimo umugabo wambaye agapfukamunwa, umupira urimo imirongo y'umuhondo, umweru, n'umukara, akaba afite ipapayi mu ntoki.

Igihingwa k'ibigori kimaze gutera imbere mu Rwanda, aho usanga mu bice byinshi bigiye bitandukanye by'igihugu, ahantu hose bahinga ibigori. Ahangaha rero turahabona umurima w'ibigori, muri ibi bigori harimo umugore uhagaze harimo guseka.

Inka zirimo kurya ibyatsi, imbere yazo hahagaze abantu, hafi y'izi nka hateye igiti.

Umusore urimo kugenda yikoreye inkwi, yambaye ishapule ku kaboko na tisheti y'umutuku, hafi ye hari ahantu hubakishije ibyuma bisize irangi ry'ubururu.

Abasirikare babiri bambaye imyenda ya gisirikare y'u Rwanda barimo gutera ibiti, impande yaho turahabona abandi bantu bahagaze, dutere ibiti kuko bifite akamaro kanini aho usanga bidukururira imvura.

Inka y'isine ihagaze mu kiraro, hari umugabo wambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umweru arimo gukamira mu ndobo yicaye.

Mu rwanda ubuhinzi bumaze gutera imbere, aho usanga hashishikarizwa guhinga igihingwa kimwe kandi bakagendaga neza bakoresheje ifumbire, hari ifumbire z'imborera ndetse n'ifumbire mvaruganda, ahangaha rero turahabona ibishyimbo birimo kumera bifite amababi y'icyatsi.

Iyi ni imyumbati ihinze mu murima ifite amababi y'icyatsi muri uyu murima harimo icupa rya purasitike.

Uyu ni umurima wbigori byasambuye, inyuma y'uruzitiro rw'ahahinze ibigori hari urutoki.

Igiti cy'indimu kiriho indimu nyinshi gifite n'amababi y'icyatsi kandi atoshye.

Umurima uhinzemo urutoki, harimo ibiti ndetse hari n'inka irimo kurisha ibyatsi.

Aha ni mu ishyamba. Hatemo ibiti byinshi bigiye biteye bitatanye.

Aha ni mu ishyamba harimo abantu barimo abasirikare n'abadaso bambaye imyenda y'akazi.

Iri ni ishyamba ririmo ibiti byinshi byegeranye n'ahandi bigiye bitandukanye.

Aha ni mu ishyamba harimo ibiti bigiye bitandukanye, harimo ibiti binini ndetse n'ibindi bitari byakura, ibiti byifashishwa mu gukora ibikoresho bigiye bitandukanye cyane cyane intebe, utubati, ibitanda n'ameza.

Mu Rwanda tugira amashyamba atandukanye nka Nyungwe na Gishwati, ahangaha tubona ishyamba ririmo ibiti byegeranranye byinshi, tukabona n'irindi ririmo ibiti bigiye bitatanye, ishyamba kandi ridufasha mu kubona imvura kuko hateye ibiti byinshi hakunda kugwa imvura.

Umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe nishyamba ririmo ibiti byinshi byubwoko butandukanye, impande y'uwomuhanda kandi hariho n'icyapa.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ari mu ishyamba, impande ye hahagaze undi mugabo wambaye imyenda y'umukara wifashe mu mbavu.

Aha turahabona abantu bahagaze ndetse n'umugabo wicaye, hari umugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa k'umukara, isaha ku kaboko gafite indangururamajwi arimo gutanga ikiganiro, imbere yabo kandi hari imbuto z'ibiti.

Abantu babiri bari mu murima w'urusenda, hari umukobwa wicaye afashe ku rusenda arimo guseka.

Umurima w'indabo, harimo abakobwa batatu, bahagaze muri uwo murima.

Aha hari amashu, karoti, ibitunguru, inyanya, kandi hari na kokombure.

Aha hari karoti, inyanya, intoryi, imiteja, pavuro n'ibitungururu, harimo n'abantu hari kugaragara ibirenge byabo.

Abagore barimo guseka ubona ko bishimye, bafite inanasi mu ntoki zimwe ziratukuye, izindi ntago zari zatukura, impande yabo hari indabo n'ibiti bari mu muhanda w'ibitaka.

Umurima w'inyanya, harimo inyanya, zatukuye n'izindi zitari zatukura.

Mu gihe cy'izuba abantu buhira imyaka kugira ngo ituma ndetse niyo bahinze kugira ngo imere ibashe kuva mu butaka imeze neza ahangaha kandi turahabona umugabo urimo kuhira impande ahinze urutoki.

Uhagaze mu murima wambaye ishati y'umukara, afite rozwari mu ntoki, arimo kuhira ibihingwa, kuhira ibihingwa bituma bitumama kandi bikera neza bigatanga umusaruro mwinshi, mu mpande y'umurima hakikijwe n'ibiti.

Umurima harimo abantu batatu, umwe yambaye umupira w'umukara nipantaro y'umukara, arimo kuhira akoresheje umupira w'ubururu.

Aha ni mu murima urimo ibihingwa, impande y'yu murima hari ibiti byinshi, muri uyu murima kandi harimo umugabo uhagaze yahinnye ipantaro, arimo kuhira imyaka akoresheje umupira.

Umurima uhinzemo imboga harimo umugore wipfutse igitambaro, afite indobo y'amazi arimo kuhira imboga, muri uyu murima kandi hateyemo igiti ndetse n'imibyare.

Ahantu hateye ibiti byinshi hari imisozi n'ahandi harambitse.

Iki ni ikibaya kirimo ibihingwa bitandukanye, urutoki, ibiti, ndetse hafi y'iki kibaya hari igicu cyumukara kirimo umweru n'ubururu.

Ahantu hari ishyamba ryinshi, harimo n'inzu hafi y'irishyamba, hahinze n'ibigori.

Aha hari umuhanda uri kugendamo imodoka hari n'umuntu uri kugenda n'amaguru, impande yaho hari ibiti, hafi yaho kandi hari umusozi munini.

Ikibaya kirimo imirima bahingaho hakiriho amashyamba amazu agiye atuwe n'abantu batandukanye, ubona ko hari uduce abantu bagiye batuye begeranye bizwi nko ku izina ry'imidugudu.

Aha hari inkoko nyinshi, muri izo nkoko hahagazemo abagabo babiri, bose bambaye bote.

Mu Rwanda, ubworozi bw'inkoko bumaze gutera imbere, aha ngaha turahabona inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe, kugira ngo inkoko zimere neza, ushaka umuvuzi w'amatungo akazitaho, akajya azitera inshinge, ndetse n'indi miti igiye itandukanye, kugira ngo zibashe gutanga umusaruro mwiza, akenshi usanga izi nkoko zitera amagi buri munsi.

Izi ni inkwavu ziri mu kibuti, hari abaveterineri bambaye amataruriya y'umweru n'undi muntu wambaye imyenda y'umukara.

Inka zidafite amahembe ziri mu kiraro cyubakishije ibyuma bisize amarangi y'umweru, zirimo kurisha ubwatsi.

Ihene nyinshi ziri mu murima umwe, hafi yazo hari abantu benshi bahagaze, hari n'ishyamba.

Iki ni icyumba kirimo inkoko harimo inkokokazi ndetse n'amasake.

Aha ni ku biraro by'inka, harimo inka zirimo kurisha ubwatsi ndetse imbere yazo, hari umuntu wambaye imyenda y'umweru n'umukara.

Inka z'inyambo zihagaze ku murongo, harimo abantu bari imbere ndetse hari na veterineri wambaye itabariya y'umweru na bote z'umweru, hanze y'aho izo nka ziri hari intebe ya sheze.

Ikiraro cyubakishije ibyuma, harimo inka y'isine iryamye yambaye iherena ry'umuhondo ku gutwi.

Aha hari umugabo usutamye arimo guha ihene umuti, hari n'undi mugabo umufashije izo hene, iruhande rwabo kandi hari n'abandi bantu bahagaze.

Imifuka ipakiyemo ibintu yuzuye itondetse ku murongo, impande yayo hari umuntu wambaye umupira w'umukara.

Aha ni ahantu hari ingano, zimwe ziratonoye, izindi pako ntabwo zitonoye ziri mu ibara ry'umuhondo.

Imbuto zitandukanye, aha ngaha turahabona umugore wambaye agakomo ku kaboko ashyize ibiganza ku mbuto, mu Rwanda haje gahunda ya tubura aho usanga abantu babona imbuto ku buryo bworoshye kandi badahenzwe.

Umugore wunamye wipfutse igitambaro yambaye umupira akenyeye n'igitenge, arimo kwanika ibigori ku mufuka w'umweru.

Ahaha hari ibigori byeze basaruye bagashyira hamwe ubundi bigori ibyeze barabisarura, bakabika bikuma bagakuraho amababi, ubundi bakabishyira ahantu hamwe bakazabihura, bakabibika bitariho ibitiritiri.

Imbuto zitandukanye zirimo ibigori n'ingano, ibigori bisize amarangi y'umuhondo, ibigori kandi bikoreshwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bakuramo ifu y'igikoma, bagakuramo kawunga ndetse bakanabikoramo n'umuceri.

Uyu muntu afite ibishyimbo byumye mu ntoki, arimo kugenda atoranyamo ibishyimbo by'imbuto, akuramo ibizima hamwe n'ibyapfuye.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu, uhagaze impande y'inka, ari gukora mu kibuno cyayo.

Muganga w'amatungo w'umukobwa wicaye ku ntebe, yambaye itaburiya y'ubururu, agapfukamunwa na linete.

Abaganga b'amatungo bambaye amataburiya y'umweru, ga z'ubururu mu ntoki, barimo kubaga itungo. Ni abaganga kandi bavura amatungo cyangwa se bakayabyaza mu gihe ari kubyara.

Abavuzi b'amatungo babiri umwe w'umugabo undi umugore bambaye ingofero zisa, udupfukamunwa n'amashati asa, ga z'umweru mu ntoki, barimo kuvura inka, bayirambuyeho igitambaro k'icyatsi.

Aha hari abantu barimo abaveterineri barimo kubaga inka barambitse udukasi ku nka, iyi inka kandi irimo kuva n'amaraso.

Icyumba kirimo abavuzi b'amatungo bazwi ku izina ry'abaveterineri bambaye utugofero tw'ubururu, udupfukamunwa barimo kubaga itungo baricometseho ibintu bigiye bitandukanye bituma iri tungo ridapfa.

Umukobwa uhagaze mu nkoko, yambaye Isarubetti yicyatsi, inkweto z'umweru, yipfutse igitambaro cy'umutuku.

Aha hari inka iri mu kiraro gisakaje amabati, impande yayo hari abaveterineri bambaye ibisarubeti bya kake ndetse inyuma y'iki kiraro hari urugo rw'amatafari.

Iyi ni inka ikimara kuvuka iryamye hasi. Impande yaho iryamye hari n'amaraso.

Abaganga b'amatungo bazwi ku izina rya veterineri harimo umugabo wambaye ikanzu y'ubururu na ga z'ubururu mu ntoki arimo ku kuvura inka, impande hari umugabo ndetse n'umugore hafi y'icyo kiraro k'inka kandi hari ibiti.

Umusore wambaye ingofero y'umutuku n'igisaruti cy'ubururu, arimo gukora ku nka iri imbere ye kandi inyuma ye hari inka ifite amahembe manini.

Inyubako yororwamo inkoko turahabona inkoko ziri mu mabara agiye atandukanye, izi nkoko zifite umuvuzi uzitaho ari uzwi ku izina rya veterineri, aho bita ku nkoko kugira ngo zibashe gutanga umusaruro mu buryo bworoshye kandi vuba, usanga harimo inkoko zitera amagi buri munsi.

Inka zo mu bwoko bw'inyambo, ziri mu rwuri zirimo kurisha, hafi y'izo nka hateye ibiti binini ndetse hari n'abantu babiri bahagaze.

Mu Rwanda tugira inyamaswa zitandukanye, hari ingufi, hari ndende, zimwe ziba mu mazi, izindi zikaba mu ishyamba, hari izitunzwe n'inyama n'izitunzwe n'ibyatsi, ahangaha turabona inyamaswa irimo kurisha ibyatsi, impande yayo hari amazi.